Abaturage bari munama bicaye mu ihema itakishije amabara mu idarapo ry'igihugu icyatsi, umuhondo n'ubururu hicaye abagabo babiri umwe w'ishati ya karokaro n'ipantaro y'ubururu undi imyenda y'umutuku n'abadamu babiri umwe w'umuzungu undi w'umwirabura wambaye ikanzu y'icyatsi harimo abantu benshi.

Izi modoka ni izitwara abarwayi, zikaba ziri muri parikingi y'ibitaro byo kwa muganga, hakaba harimo imodoka, iyi parikingi ikaba igizwe na jaride, ikaba ifite inzu irenze imwe isize amarangi.

Ingabo z' u Rwanda abapolisi bambaye imyenda y'ubururu bw'ijimye, bafite imbunda n'ibikapu n'amacupa yo kunyweramo amazi bahagaze ku mirongo itambitse.

Nk'uko bigaragara hano, hari ubukwe bwahabaye, hari n'umugabo ufite kamera uri kubafata amashusho ndabona na parikingi y'imodoka nyinshi, abandi nabo bari kugenda berekeza aho ubukwe bwabereye.

Muri kaburimbo, harimo imodoka ndende ya rukururana. Iyi modoka ifite ibara ry'icyatsi ku gice cy'inyuma, ndetse n'ibara ry'umutuku ku gice cy'imbere. Hirya y'iyi modoka hateye ibiti.

Mu muhanda harimo ikamyo isa umutuku ihetse imicanga, iruhande rwayo hari ibiti n'ahantu bari kubaka abafundi n'abayede mu muhanda iburyo bw'ikamyo hari abanyeshuri babiri.

Iyi ni imodoka y'ikamyo ifite karisori z'umweru polisi yayihagaritse ari kuvugana n'umushoferi wayo ikaba iri mu muhanda.